Utuvido tw'arindwi duteretse mu kabati aho kamwe kagiye gateretse hejuru y'akandi, utundi hasi ku murongo turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye harimo n'iz'uruhu ndetse n'izindi z'umubiri.

Ifumbire irunze hamwe kandi nyinshi ahantu hanini, ikaba yifashishwa mu guhinga imyaka igiye itandukanye nk'ibigori, ibishyimbo, soya n'indi yose kugira ngo imyaka ibashe kwera neza, itange umusaruro ufatika ndetse ibashe kuvamo n'amafaranga.

Umurima ugaragara ko uhinzwemo uzengurutswe n'ibyatsi ku mpande ndetse ufite ubutaka bw'umukara, bigaragara ko ari ubwo bashyizemo ifumbire bushobora kwera imbuto nyinshi zishoboka.

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu zihinzwe ku buso bunini ahantu h'ikibaya, hegeranye n'ibigori n'ibindi bihingwa bizikikije, hakaba harimo umugabo arimo ayatera umuti kugira ngo, hatagira udusimba tuyica akaba byatuma atera ngo atange umusaruro.

Tungurusumu nyinshi iri mu biganza bibiri byegeranye, yifashishwa mu kurya kandi ikaba inakoreshwa nk'umuti ushobora kuvura inzoka no mu bundi bwoko butandukanye bw'imiti no mu bundi buryo bashobora kuyirangiramo umuntu, akayikoresha.

Amabasi abiri y'umutuku, ateyemo inyanya ndetse n'amashu bikiri ingemwe birimo ibitaka by'umukara, bigaragara ko bivanze n'ifumbire kugirango izo ngemwe zikure neza.

Abagore bibumbiye mu itsinda ryo guhinga bakaba bazindukiye mu murima wabo w'ibigori aho bari gushyiraho ifumbire, ibigori bigeze igihe cyo kugira ngo bikure neza bizere bitange umusaruro, babashe kubona amafaranga n'ibyo kurya bibatunga n'umuryango wabo.

Abahinzi babigize umwuga bari mu murima w'ibigori ndetse bafite ibasi, bigaragara ko irimo ifumbire mvaruganda bari kugenda bongeramo, ibigori biratoshye biragaragara ko byitabwaho.

Umuhanda w'igitaka urimo umunyonzi uri gusunika igare ririho imifuka myinshi, inyuma ye hari umugore n'abandi bagabo, bashoreye uwo munyonzi kandi iruhande rwabo hari imyaka ihahinze nk'ibigori n'igiti cya voka.

Umurima munini uhinze neza urimwo abagabo benshi bakoze itsinda, bamwe barimo baca imyobo kugira ngo ishyirwemo ifumbire, abandi bayitwaye mu ntoki bari kugenda bayishyira mu myobo yaciwe n'abandi, kugira ngo bahingemo imbuto y'indobanure ku buryo bwa tubura.

Umuvuzi ari mu nyubako irimo imiti itandukanye, bigaragara ko ari we uyicuruza, afite telefoni mu ntoki muri izi zigezweho, akaba ari kuyivugiraho.

Abantu batandukanye bari mu murima mugari ndetse harimo n'abashinzwe umutekano bw'ibanze ndetse biragaragara ko barimo kugenda bashyiramo ifumbire mvaruganda kugira ngo ikimera gikure neza.

Abagabo babiri bishyize hamwe kugira ngo bafatanye umushinga wabo wo guhinga, bakaba bari mu murima munini urunzemo ifumbire nyinshi uteyemo insina zikunze gukoreshwa kugira ngo zibyare ibitoki bivamo imineke n'inzoga, bitanga amafaranga yo guteza abantu imbere.

Utuvido duteretse hejuru ku murongo kandi turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, harimo n'iz'uruhu, hakaba n'indi igiye iri mu macupa na yo nuko ikoreshwa kugira ngo hirindwe kandi hanavurwe uburwayi bugiye bunyuranye.

Ifumbire irunze hamwe kandi ari nyinshi ahantu mu kibaya hakorerwa ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye, itegerejwe kugira ngo izajyanwe mu mirima ibashe gufumbira imyaka ikure neza kandi ibashe kwera, itangage umusaruro ku bahinzi ndetse no ku gihugu muri rusange.

Umukobwa wahinze imyaka ku buso bunini ahegereye ikiyaga, akaba arimo ayitera umuti akoresheje pompo yo mu mugongo yambaye n'aga mu ntoki n'umupira w'umukara n'ipantaro na bote kandi akaba agira ngo izamuhe umusaruro, harimo n'amafaranga na we abashe kwiteza imbere.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe, afite igikoresho kirimo umuti uterwa ku myaka, akaba ari mu gutera ibigori, kugira ngo abirinde nkwogwa, iruhande rwe hari ikigega bigaragara ko kirimo amazi.

Ifumbire mva ruganda yifashishwa mu guhinga imyaka itandukanye, kugira ngo ibashe gukura neza kandi itange umusaruro ubyara amafaranga n'ibiribwa, kugira ngo abantu babashe kubaho neza biteze imbere, batunge n'imiryango yabo.

Ifumbire nyinshi irunze ahantu hamwe ku musozi kugira ngo izifashishwe mu guhinga imyaka ndetse ikaba ihagazemo umugabo wambaye bote n'ipantaro n'ijiri y'umutuku, arimo ayitaho kugirango itazangirika, ahubwo izabashe gukora icyo bayibikiye.

Umugabo wambaye bote, akaba afite umupira w'amaboko maremare uriho amabara atandukanye awuzengurutse, ndetse akaba yambaye ipantaro y'umukara, afite ibyatsi bitobatobye bigaragara ko ari imiti ari gukamura.

Inyanya ni ibirungo bikunze gukoresha cyane mu guteka ndetse bikanakoreshwa cyane kugira ngo ibiryo bibe bisa neza, aha hari inyanya zihishije ndetse n'imbisi zikiri ku giti zitarasarurwa.

Umuceri uhinze ku buso bunini mu kibaya ahantu h'igishanga ariko utaririmo amazi yamaze gukamurwamo, uhagaze ugeze mu kigero cyo kwera ariko utarera, nta n'umuntu urimo ari kuwurinda, uri wenyine.

Abakobwa babiri bahagaze bafashe inanasi mu ntoki zihiye neza kandi bameze nk'aho bari kuzigurisha kugira ngo bazikuremo amafaranga, banazamamaza kugira ngo bajye babona abakiriya benshi baturutse mu bice bitandukanye

Ku musozi hateyeho ibimera bitandukanye bigaragara ko ari ubunyobwa buhinze ku buryo bw'umurongo, biteye neza biringaniye ndetse biragaragara ko ari ubuhinzi bugezweho.

Umurima uhinzemo ibijumba, ufite imigozi myiza, bigaragara ko wabonye imvura ukabona n'izuba, tuzi ko ikimera kugira ngo kibeho neza, ari uko kibona izuba n'imvura bihagije kuri cyo.

Urutoki rurimo insina nkuru zitari zana ariko zishishe zifite amakoma menshi n'amajangara, zikaba zitaragaragirwa zigeze igihe cyo gukorerwa kugira ngo zibashe gutanga umusaruro no kuvaho ibitoki byinshi bihagije kandi bikuru.

Icyayi gihinze ku buso bunini, hakurya yacyo hari ishyamba ririmo ibiti binini bikuru bitanga umuyaga kandi bikurura imvura kandi bigatanga agahumbezi mu gihe cy'izuba.

Ibitunguru bikuze, bimeze neza, bifite amababi atoshye kandi biteye ku murongo ahantu h'ikibaya, ku buso burebure, birimo umugabo arimo abikorera yambaye isengeri, yunamye, yashyize amaboko hasi mu mizi yabyo, afite umusatsi mukeya ku mutwe.

Ingemwe z'insina zarimbuwe kugira ngo zijyanwe guterwa, zizabashe gukura neza, zitange ku musaruro, zere ibitoki bizifashishwa mu gukora ibikorwa byinshi bitandukanye, yaba mu bukwe, yaba kuvamo imitobe, inzoga se cyangwa kubirya uko biri n'imineke muri rusange, ibitanga amafaranga kugira ngo abantu babashe kubaho neza.

Umurima w'ibigori wahinzwe n'umuhinzi kugira ngo azabashe gusarura no kwihaza mu biribwa ndetse no mu mafaranga, bigeze mu gihe cyiza cyo kuba byashyirwaho ifumbire bikaba bitoshye, bifite amababi meza byenda kubwejagura cyangwa se kuyangika.

Akarima k'igikoni gahinzemo intunguru, hakaba hahinzemo imboga rwatsi ndetse n'inyanya. Ibi ni bimwe mu mboga zikenerwa cyane, kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Igiti kinini kiriho voka eshatu, zimwe ziba zarabanguriwe ndetse icya bikubwira ko ari imbangurirano, igishishwa cyayo haba hariho utuntu tumeze nk'ibiheri.

Ibigori by'imbuto y'indobanure kandi bitonoye, byose birunze hamwe, byinshi cyane, biri muri supaneti kandi bigiye bifite ibara ry'umuhondo kubera uburyo byitaweho mu kubikwa.

Umurima ufumbiyemo imbuto z'ibiti n'izindi zo gutera nk'imyembe, aho hari abagore batatu n'abagabo babiri bagiye kuzisarura bakaba bazifite mu bibehe, bagiye kuzigemeka aho zagenewe kugira ngo zibashe kwera zitange umusaruro.

Abagore n'abagabo basutamye imbere y'ibihoho, ni ibikoresho bimeze nk'amashashi ariko akomeye bakunda kwifashisha mu guhumbika imbuto zitandukanye.

Ubuhinzi bw'insina aho hari urutoki rukuru rurimo ibitoki binini byeze, hakaba harimo umugabo ubihagazemo hagati, arimo abijagika cyangwa se abishyiramo icyitwa injangwe kugira ngo umuyaga utazabitura hasi bitaragera igihe cyo gucibwa.

Mu murima hateyemo ibiti bitandukanye ndetse harimo ikawa n'insina, hakabamo n'ibindi bitandukanye bikikije uwo murima, bigaragara ko uwo muntu azi kurinda umurima we ibyonnyi.

Imbuto ziri hamwe mu kabase zo mu bwoko bwa avoka nyinshi kandi zikomeye zaciwe kugira ngo zijye gutarwa ubundi zizaribwe cyangwa zigurishwe ubundi zivanwemo amafaranga yo gukora ibindi bikorwa bitandukanye.

Igiti cy'urutoki cyeze intoki nini nziza kandi z'umweru, gifite amababi meza y'icyatsi kibisi, kiri ahantu heza hasashe, hameze neza kandi ubona ko bacyitaho buri munsi kugira ngo kigire umusaruro.

Umurima mugari uhinzemo ibinyomoro. Ni kimwe mu mbuto zongera amaraso, abantu benshi bakunze kubiha abana ariko n'abantu bakuru baba bakwiye kubirya kugira ngo na bo bagire amaraso ahagije.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe ahagaze imbere y'undi, umwe yambaye umupira w'umweru n'ishati itukura, kandi afite imakasi mu ntoki, barimo bakatira indabyo bahinze kugira ngo zizabashe kubaha amafaranga na bo biteze imbere.

Ibiti bikuru birumbaraje bifite amashami kandi byegeranye bikurura imvura bigatanga n'umwuka mwiza wo guhumeka kandi bikaba bigira n'uruhare rukomeye mu kurwanya isuri, aho amazi ajya aba menshi agatwara ubutaka ariko byo bikaba birwanya iki kibazo.

Ibiti by'amagereveriya, biteye ahantu mu kibaya h'umurambi, mu ntabire ahahingwa imyaka yindi igiye itandukanye, bikaba bikunze guterwa ahantu hose kubera ko ntacyo bitwara ibihingwa bishobora gukurana na byo kandi na byo bigatanga umusaruro wo kuvamo imbaho, mu kubaka n'ibindi nk'amakara.

Ikiganza gifashe ifumbire indi iri hasi kandi kikaba kirimo cyiyisuzuma kireba niba ishobora guhura n'igihingwa gishaka kuzayihingishwa, kugira ngo kibashe kwera gitange umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko buzwiho kugira amafaranga muri iyi minsi, aho hari umugabo ufite akadobo k'umuhondo n'ikiyiko mu ntoki, arimo agaburira inkoko ye y'inzungu nini kandi ifite ibara ry'umweru kugira ngo azabashe kubona amafaranga aturutse kuri yo.

Icupa ririmo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zo ku matungo kandi rikaba rifashwe n'ikiganza, rikaba ripfundikije umufuniko w'umweru, ryo ubwaryo ifite amabara y'umutuku agiye yanditse mu magambo agiye asobanura ibiri muri uwo muti.

Ingurube eshanu, harimo igisekurume kimwe n'ibinyagazi bine, zihagaze zirimo zirya ibiryo bazishyiriye mu kariro kazo. Iruhande rwazo hateretse umufuka urimo ibiryo byazo zizajya zijya mu minsi yindi.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi zorowe ku buryo bwa kijyambere, ziri hamwe mu kiraro cyazo, aho zororerwa, zikaba ziri kumwe zitabwaho, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro w'amagi kandi n'inyama, byagirira nyirazo akamaro akiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi hakaba hari inkoko zorowe neza, ariko zikiri imishwi zitarakura cyane, ubu akaba ari bwo buryo abantu benshi bakunda guhitamo iyo bagiye gutangira umushinga wo korora inkoko, kuko ari byo bibyara inyungu kuruta kugura inkoko nini.

Umurima munini uhinze neza, urimo insina n'ibigori byasaruwemo, wunamyemo umugore arimo aca imyobo kugira ngo ashyiremo ifumbire ateremo n'imyaka ku buryo bwa tubura, azabashe kubona umusaruro uhagije.

Abahinzi barimo bahinga abasore batatu n'umukobwa umwe, bibumbiye hamwe kugira ngo bafatanye igikorwa cyabo bihaye cy'ubuhinzi, babashe kugira umusaruro ufatika kandi utubutse nabo biteza imbere.

Abagabo babiri bari mu kibaya barimo bahinga umurima kandi imbere yaho hagiye hahinze ibigori n'imyumbati kugira ngo babashe kuzabisarura byeze neza kandi babone amafaranga n'ibiryo byo kubatunga.

Umugabo wambaye bote z'umukara, ipantaro n'umupira utukura, ufashe isuka mu ntoki, uri mu murima we ugiye urimo n'amateke n'igiti cy'imyumbati, kandi arimo aca imirongo kugira ngo abashe gutera imyaka ku buryo bwiza izakure itanga umusaruro.

Umurima uri guhingwa n'umugore uhagazemo, isuka iri mu kirere, akenyeye igitenge ateze n'igitambaro ku mutwe, iruhande rwe hahinze ibigori, akaba awugejejemo hagati agira ngo azasarure ibihingwa abone ibyo arya n'ibyo ajyana ku isoko kugira ngo abashe kwiteza imbere.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'imyenda ari mu murima aho ari kugenda acukura ibyobo. Uwo murima kandi uteyemo ibigori ubona ko biri hafi kwera.

Umugabo wambaye bote n'ikote, n'ipantaro, n'ingofero ufite isuka, arimo ahinga kugira ngo ngo azabashe gutera imyaka imuhe amafaranga, abone n'ibyo kurya we ubwe n'umuryango we ndetse bigirire akamaro n'igihugu muri rusange.

Umugore uteze igitambaro, wambaye umupira ukenyeye igitenge, utambaye inkweto uri mu murima we, aho arimo ayora ifumbire ayisanza mu murima uteyemo insina kandi ukaba urimo n'igiti gifasha umurima we kurwanya isuri.

Abanyeshuri bari mu murima bigaragara ko bahumbitse imbuto zitandukanye, bambaye impuzankano zibaranga ndetse bari kumwe n'abarezi babo bari gukora ku byatsi basasira kugira ngo izo mbuto zitumywa.

Abagore batatu bari guhinga mu murima ahantu h'umurambi, harambitse neza kandi imbere yabo mu murima barimo, hakaba harimo ibigori n'ibiti biteye byifashishwa mu kurwanya isuri kugira ngo imyaka yabo ibashe gukura neza kandi bikaba byanavanwaho imihembezo yo kugira ngo bashingirire ibishyimbo nk'igihe babihinzemo.

Abagore n'abagabo bahagaze imbere y'umurima uhinzemo ibigori, bari kubaka ahantu ho gufumbira imbuto z'ibiti bizifashishwa mu gutera kugira ngo barwanye isuri kandi babashe kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Abaturage bagiye gukora umuganda rusange, aho barimo basibura umuhanda bakuramo igikuku cyahubutse kikawugwamo kugira ngo amazi ajye abasha gutambuka neza atangije umuhanda.

Abagore bari guhinga umwe yambaye bote n'umupira w'umweru, abandi bambaye amakanzu abandi amajipo umwe ari konsa kugira ngo bazatere imyaka babashe kwihaza mu biribwa kandi babone n'amafaranga abatunga n'andi yo kubateza imbere.

Abaturage bibumbiye hamwe mu gukora umushinga w'ubuhinzi, hakaba harimo abagabo n'abagore, umugabo wambaye bote n'ipantaro n'umupira, abandi bakenye ibitenge, bateze ibitambaro, barimo bahinga umurima wabo uri ahantu h'umurambi, kandi harimo n'insina zifite ibitoki.

Umurima w'ibigori munini uhinze ahantu h'umurambi, bikaba byareze ariko bitaruma neza, harimo umugabo waje kubicunga abirindira umutekano kugira ngo batazabyiba bigatuma na we abura amafaranga n'icyo yashoyemo kandi bikarangira atungutse.

Abagabo babiri bahagaze, barimo baseka cyane, amenyo ari hanze, umwe yambaye ingofero, bombi bambaye amakote, begamiye imifuka y'ibirayi itanu ihagaze, isonye neza, ihambirije imishipi ku mutwe kubera ko ibirayi ari byinshi, inyuma yabo hari akazu kubabatse ariko gakingishije urugi rw'ibiti.

Umugabo wambaye ikabutura n'umupira ufite isuka arimo ahinga mu murima urimo imbuto n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, hakurya ye hari ishyamba ririmo ibiti bikuru byifashishwa mu gukurura imvura ndetse hakavamo inkwi n'imbaho n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Umurima munini w'ibigori uri ahantu mu kibaya ahantu haterekereye h'umurambi, urimo abagore n'abagabo barimo babibaga babyitaho kugira ngo bikure bibashe kwera neza kandi hakaba hagiye havanzemo n'amateke ku ruhande rwabyo.

Abahinzi bishyize hamwe mu guhinga barimo bahinga kugira ngo bazabashe gutera imyaka, izavamo ibiribwa byo kurya ndetse n'amafaranga abatunga, agatunga n'abana babo, imbere yabo hakaba hari insina zeraho ibitoki byifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, yaba mu kwenga imitobe, inzoga cyangwa se no kubirya mu buryo busanzwe.

Abantu bari mu muganda biragaragara ko ari benshi cyane ndetse barimo guharura umuhanda kugira ngo bahakure ibyatsi bihari, urabona ko bawitabiriye ari benshi, bazi akamaro ko gukora umuganda

Umugore n'umugabo barimo bahinga mu murima munini uteyemo amagereveriya n'ibindi biti bigiye bitandukanye ndetse harimo n'inusu kugira ngo zibashe gukura, zifate ubutaka ziburinde isuri.

Abagore bibumbiye hamwe mu itsinda rifashanya mu buhinzi, bakaba barimo bakora icyo gikorwa cyo guhinga imyaka igiye itandukanye, bamwe bahetse abana kugira ngo babashe kubakorera ibizabatunga nabo bikababeshaho.

Umugabo wambaye ipantaro akaba yayizinze ku maguru, utambaye hejuru umupira, ufite isuka mu ntoki ari mu murima we arimo ahinga, hakurya ye harimo insina n'ibiti biteye neza ku murongo, bifata ubutaka bwe kugira ngo budatsuka.

Umurima munini uri ahantu h'umurambi urimo abahinzi bibumbiye hamwe mu itsinda ryo guhinga, bakaba barimo baca imirongo kugira ngo bahinge imyaka bahateganyirije kandi babashe gusarura, babone umusaruro ubateza imbere.

Ikirundo kinini cy'ifumbire irimo iyorwaho n'umugabo wambaye umupira w'ubururu kandi akaba arimo ayishyira ku mufuka kugirango ayitware ajye kuyiteresha no kuyihingisha imyaka nawe azabashe kweza neza nk'abandi abone umusaruro n'amafaranga bituruka mu byo yahinze.

Abaturage bari gukora umuganda aho barimo bakora isuku mu ndabyo ziteye neza mu majaride, biganjemo abagore n'abagabo n'abashinzwe inzego z'umutekano nka DASSO, bose barimo bafatanyiriza hamwe.

Abahinzi barimo bahinga imbuto zitandukanye, harimo n'ibiribwa, barimo bazihingira mu matsinda kuko na bo bibumbiye hamwe kugira ngo babashe kujya bafashanya buri wese abone umubyizi utubutse mu mirimo ye ya buri munsi.

Ibirayi bitandatu biri mu kiganza, cy'umuntu uri mu murima, agenda abikura mu butaka, bigaragara ko ari umuhinzi w'ibirayi ari kwerekana umusaruro we.

Umurima munini wasaruwemo ibigori hasigayemo ibiyogori byumye bikeneye kujyanwa gukoreshwa nk'ifumbire, hakaba harimo abagore babiri baje kuwuhinga kugira ngo bazateremo indi myaka, babone ibyo kurya n'amafaranga bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inusu zifumbiye ahantu mu kibaya zubakiye igidare kandi zikaba ari nkuru zigeze igihe cyo kugemururwa ngo zijyane guterwa mu mirima n'ahantu ku musozi kugira ngo hirindwe isuri yangiza imyaka igatwara n'ubutaka harimo n'umugabo arimo azikorera.

Igikorwa rusange kizwi nk'umuganda aho abaturage, abagore n'abagabo ndetse n'abandi bose bafite imyaka y'ubukure bahurira hamwe kugira ngo bakore imirimo y'amaboko iteza igihugu imbere, bakaba uyu munsi bahuriye mu murima aho bose barimo bahinga bahingira umuturage kugira ngo abone ibimubeshaho.

Imifuka itandukanye iteretse hamwe ahantu mu isoko irimo imbuto zitandukanye, nk'amasaka n'ibigori n'ibishyimbo bitegereje kugurishwa kugira ngo bivanwemo amafaranga yo kwifashisha gukora ibikorwa bitandukanye, byateza abantu imbere.

Umurima munini w'ibigori uri ahantu h'umurambi mu kibaya kandi bikaba bigeze mu gihe cyo kuba byayangika, bigaheka kugira ngo bizabashe kwera, bitange umusaruro ku muhinzi wabihinze na we abashe kurya no kugurisha.

Mu isoko ahacururizwa ibiribwa bitandukanye, ahazanywe ibicuruzwa bigiye binyuranye kandi harimo umucuruzi urimo abitanga, higanjemo ibitoki binini byeze neza, n'imyenda, n'inkweto n'ibindi bikoresho binyuranye.

Mu isoko ahakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ibiribwa, imyenda ndetse n'ibindi bigiye binyuranye nk'amafaranga mu kuyavunja, ahari abacuruzi barimo bacuruza inyanya ziri mu bitebo nyinshi kandi zihiye, umwe arimo azigura kugira ngo ajye kuziteka azirye.

Inyubako nini irimo ibigori byinshi, ni imwe ikunze kwifashishwa mu kwanika ibigori ndetse hakaba harimo n'igare bifashisha mu kubitwara.

Imifuka itabarika yuzuyemo imiceri ndetse ikaba iteretse ahantu hisanzuye, imwe ikaba yaramenetse hasi bigaragara ko harimo imifuka yacitse.

Iduka ry'ubucuruzi aho ugurisha azana ibicuruzwa bye kugira ngo abagura na bo baze guhaha babone ibyo kurya, rikaba ririmo amajerekani abiri y'amavuta n'imifuka irimo ibicuruzwa bitandukanye nk'umuceri, kawunga ndetse n'impapuro z'isuku.

Ikibaya kinini gihinzemo ibigori ndetse kikaba kizengurutswe n'imisozi myinshi. Hakaba hagaragara n'ikirere, hakurya yacyo kiriho ibicu by'umweru n'ubururu.

Ikibaya kigari kirimo ibigori byatangiye guheka, ndetse hakaba hari n'imigenda amazi acamo, iruhande rwabyo hari imisozi iteyeho ibyatsi byinshi cyane.

Ahantu h'umurambi utapfa kubona umusozi, hahinze ibiti bya avoka ndetse bigaragara ko hateyemo n'indi myaka muri uwo murima, ni umurima mugari ubona ko umuntu wabikoze afite gahunda yo guhinga imyaka itandukanye.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, aho ugura n'ugurisha bahurira kugira ngo bahererekanye ibicuruzwa n'amafaranga, hakaba hari umugore n'abagabo babiri barimo bagura inyanya, umugore afite umufuka arimo azishyiramo ize.

Umurima w'urutoki uteyemo n'ibindi byatsi bigaragara ko ari ibishyimbo, ndetse hahagazemo umugabo uri kwitegereza uko ibimera bimeze.

Umurima munini uciyemo imyobo iteyemo insina zigeze mu gihe cyo kuba zakura neza zikana, iruhande rwazo hari ishyamba ririmo ibiti higanjemo iby'intusu, bigira umumaro mu kurinda insina umuyaga ndetse no gukurura imvura.

Ishyamba ririmo ibiti binini bibyibushye birebire bifite amashami atari menshi cyane, rikaba rigira umumaro munini nko gukurura imvura, gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse no kurwanya isuri kuko bifata ubutaka.

Imboga z'amashu ziteye zimaze gukura zeze zigeze igihe cyo gusarurwa ziri kumwe n'igisheke kitarera ariko gikuru gihagaze neza. Zikaba zarahinzwe n'umuhinzi kugira ngo azabashe kubona ibimutunga.

Imboga rwatsi zikuze cyane zayangitse, bigaragara ko nta muntu wigeze azisoroma, zihinze inyuma y'inzu ndetse hahinze n'insina, bigaragara ko zo bazisarura.

Ibiti biteye bikuru kandi byegeranye n'insina zifashishwa mu gutanga ibitoki bivamo imitobe n'imineke, n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa nk'ibiribwa n'amafaranga, byegeranye n'ahahinze ibisheke bikorwamo isukari.

Inzu yubatse neza isakaye, inyuma yayo hari insina ziteye kandi nkuru izindi ari ibyana, zimwe zikaba zifite ibitoki kugira ngo byera bizavemo amafaranga kandi bibashe no kuvamo ibiribwa bitunga abana.

Igiti kinini gikuze neza giteye kandi kikaba gifite umumaro mu gutanga umwuka wo guhumeka no kurwanya isuri mu butaka ishobora gutwara amazu cyangwa se imyaka abantu baba bahinze kugira bibesheho.

Ishyamba ririmo ibiti bikuru kandi birebire bibyibushye, hasi hakaba harimo ibyatsi n'amababi yagiye abihubukamo rikaba ryifashishwa mu gutanga umusaruro nk'imbaho, inkwi n'ibindi ndetse rikaba rinakurura imvura.

Amateke yakuze ageze mu gihe cyo kwera kandi ateye hamwe n'ibiti bikuru birebire biyakingirije n'insina, iruhande rwayo hakaba hari umurima uwo urimo imbuto zigiye zinyuranye.

Insina zagemuruwe zirambitse hamwe, zirunze ku buryo zigiye kujyanwa guterwa ahandi hantu kugira ngo zibashe gukura neza kandi zizatange umusaruro zere ibitoki bizavamo imineke, imitobe n'amafaranga, bifasha nyirabyo kwiteza imbere.

Inyanya nini zitukuye zasaruwe ziri ku gapaniye, kandi zikaba zikunze gukoreshwa mu buryo bwo kurunga isosi, kugira ngo iryohere abayirya, kandi zikaba zinakunda gukoreshwa cyane mu birori kubera ko zigira ibiryo neza.

Inyanya zitukuye neza, nini ziri mu gitebo kinini, kigaye hejuru ku musozo kandi zikaba zimeze neza ku buryo uwazihaha wese yaziteka akishima kandi ibiryo bikagira isosi isa neza ku buryo ababirya babiryoherwa.

Umugabo w'umuhinzi wicaye wambaye ishati itukura ufite n'impeta ku kaboko k'ibumoso igaragaza ko afite uwo bashyingiranywe wahinze imbuto akaba arimo azikorera azitaho kugira ngo zikure neza zibashe kwera.

Umwana ufite imbuto ziri mu bihoho, zitaragemurwa uzijyanye kuzitera, wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umukara na bodaboda z'ubururu, inyuma ye hari ahakorerwa ubwo buhinzi, hirya ye hari umugore na we wunamye arimo azishyira mu ngazi.

Umugore n'umugabo bunamye bafashe imifuka barabizinga babishingamo ibiti bashyiramo ubutaka, kugira ngo bakore akarima k'igikoni, bakaba bari guteramo imboga zizajya zibafasha kubona ibiryo, n'ibiryo bagaburira abana.

Karoti nini, nziza, zeze, zasaruwe, zikaba zirambitse zitegereje abaguzi kugira ngo bazigure bajye kuzirya n'uzigurisha na we abone amafaranga ajye gukoresha ahinga izindi anarangura ibindi bicuruzwa bitandukanye kugira ngo na we yiteze imbere.

Mu isoko ry'ubucuruzi ahari abacuruzi bagiye batandukanye, harimo ibicuruzwa by'amoko atandukanye, yiganjemo ibitunguru byeze neza binini, hakaba hari n'iminzani yo kubipimaho iriho n'utubase, hari n'utudobo turimo inyanya zo kuribwa zeze neza.

Ibase irimo tangawize zifashishwa mu gukora icyayi no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye no mu kuvura indwara zimwe na zimwe higanjemo iz'uruhu, zikaba zinagurishwa kugira ngo zivemo amafaranga yakoreshwa ibindi bikorwa binyuranye.

Isoko ririmo amoko y'imbuto atandukanye n'ibindi biribwa bigiye binyuranye, aho bitekerejwe ngo bigurishwe n'uwabizanye kubicuruza, kugira ngo na we abone amafaranga n'abaje guhaha na bo babone ibyo bahaha, kugira ngo barusheho guteza imbere Igihugu na bo ubwabo.

Ibase ifite ibara ry'ubururu irimo imiteja myinshi yenda kuzura kandi inyuma yayo hakaba hateretse karoti zirambitse ku gifariso kugira ngo byose bigurishwe kuko biri ku isoko kandi bijyanwe kuribwa.

Abaturage bibumbiye hamwe mu gukora ubuhinzi, bakaba bazindukiye mu murima wabo aho bahinze imbuto z'amatunda bakaba barimo bazikorera, bazihingira, abandi basarura kugira ngo bajyane kugurisha, babone amafaranga.

Imineke y'ubwoko butandukanye iri ku nkoko irimo igurishwa n'umucuruzi, kugira ngo abone amafaranga yo kwiteza imbere ateze n'umuryango we imbere, abashe no kurihirira abana amashuri, kandi abone n'ibyokurya atungisha umuryango.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho umuguzi n'ugurisha bahurira kugira ngo bahererekanye ibyo kurya ndetse n'amafaranga rikaba ririmo imineke itandukanye, harimo imbuto nk'amatunda ndetse n'ibihaza bitegereje abaguzi.

Abahinzi bahinze imyaka yabo ikaba igeze igihe cyo kwera, barimo bayisarura, umugabo n'umugore n'umwana wabo bafite ipaniye, umugabo afite umufuka urimo imiteja arimo ayisuka mu ipaniye, umwana arimo afata imiteja mu ntoki.

Urukuta rw'inyubako runaka, ruzengurutswe n'amadirishya arimo ibyuma, ndetse hakaba hari n'indabyo inyuma yarwo. Biragaragara ko ari inzu zimwe zigezweho.

Inyuma y'ikigo hari igiti cy'ipapayi, biragaragara ko amapapayi ariho akiri matoya kuko nta n'imwe irahisha ariko ipapayi abantu benshi ntabwo bazi ko ari imbuto zigira intungamubiri nyinshi ku buzima bwa muntu.

Ibasi y'umuhondo irimo imboga rwatsi ndetse iruhande rwabo hari ibishishwa by'urutunguru, hakaba hari n'umugozi w'umukara, umwe tuzi ku izina ry'umukoba, riteretse iruhande rw'inyubako.

Ubuhinzi bw'imboga hakaba hari umurima uhinzemo intoryi nkuru zigeze igihe cyo kwera, kandi zikaba zishishe zimeze neza, hakurya yazo hari ibiti b'inturusu bikuru bifite igihe cyo kuba byakurura imvura, ndetse bikanarwanya isuri yatwara ubutaka.

Abagore babiri bahagaze bavuye gusarura mu murima aho bahinze intoryi, buri wese akaba agiye azifashe mu maboko yombi barimo baseka, umwe yambaye ingofero akenyeye n'igitenge, undi yambaye ikote nawe amwenyura.

Inyanya ziri ku isoko, zitenze kugira ngo zigurwe n'ushaka kuzigura, zazanywe n'umugurisha kugira ngo azicuruze abone amafaranga ajya gukoresha ibindi bikorwa n'abazikeneye na bo bazihahe, bajye kuzirya kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Mu isoko ahakorerwa ubucuruzi butandukanye hakaba harimo ibicuruzwa, intoryi, imiteja, inyanya n'utubase, byose bikeneye kugira ngo bigurwe n'abaguzi bajya kubirya n'abacuruzi na bo babone amafaranga bajya gukoresha ibindi bikorwa bitandukanye byabateza imbere.

Icyapa kiri k'umuhanda giteye mu ndabyo zikikije ibarabara cyanditseho moteri munyinya relax aho giherereye mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo, kikaba kigaragaza ibihabera ko hari n'amashambure na bale na resitora bifashisha barya ku bantu bakeneye kujya kuhiyakirira.

Mu isoko ahacururizwa ibiribwa bitandukanye, hakaba haje kugurishwa imbuto harimo karoti, intoryi n'izindi zigiye zinyuranye, aho umucuruzi azana ibyo agurisha n'umuguzi akaza aje kubigura amuzaniye amafaranga.

Intoryi ziri mu kabase gatukura kandi atari nyinshi ariko na none atari nkeya cyane, abantu barya nk'imboga kugira ngo babashe kubaho kandi zikaba zikunze kuribwa no guhahwa cyane n'abanyeshuri kubera ko ari zo zidahenda.

Ibitunguru bitari ibya Kinyarwanda biri mu kintu aho bitegereje kugurishwa kugira ngo bivemo amafaranga bijyanwe gutekwa no gukoreshwa mu bindi biryo kugira ngo ababirya babashe kunezerwa no kubaho ubuzima bwiza.

Umugore wicaye, wambaye inkweto n'igitenge ubu uri gucuruza ibinyomoro biri mu kabase k'ubururu utegereje ko haza umuntu uza guhaha, wabiteretse ahantu ku muhanda kugira ngo ajye ahahirwa n'abagenzi batambuka.

Igiti cy'avoka cyo mu bwoko bwa tubura, gikuze, kigeze mu gihe cyo kuyangika ariko kiriho na voka zeze, imbere yacyo hahagaze umugabo yamanitsemo ukuboko ameze nk'ugiye gusoroma avoka ajya gutara na we akarya.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, aho ugura n'ugurisha bahurira kugira ngo bahererekanye ibyo buri umwe umwe yazanye, hakaba harimo inyanya, urusenda, ibirayi n'ibindi bitandukanye, byazanywe kugurishwa kugira ngo bibyazwe amafaranga.

Igiti cy'ipapayi giteye iruhande rw'inzu ifite amarangi y'umweru n'umukara, ndetse kigaragara ko kitarera, kuko hariho imbuto zikiri icyatsi kibisi zikiri ntoya.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, aho ugurisha n'ugura bahurira kugira ngo bahererekanye buri kimwe, hakaba harimo imineke, amatunda n'izindi mbuto zitandukanye, zifashishwa mu kurya ndetse no gukora ibindi bitandukanye.

Ubuhinzi bw'urusenda ruhinze ku murongo kandi ruteye ku buryo butandukanye kugira ngo ruzabashe gukura neza, rwere, rutange umusaruro, hatabayeho kurumba cyangwa se kwangirika no kuryamirana byatuma rutera ahubwo rukaba runasasiye, rukorewe neza.

Urupangu rwubakishije amatafari azwi ku izina rya ruriba kugira ngo abatuye mo imbere babashe kugira umutekano no kwirinda akavuyo, inyuma yaho hakaba hari jaride ihinzemo indabyo z'amoko anyuranye kugira ngo abahumeka babashe kubona umwuka mwiza.

Ibitunguru biri mu bwoko bw'Ibinyarwanda bitukura, biri hamwe birunze, bitegereje kugurishwa, ngo bijyanwe ku isoko, aho umuguzi aza kubigura agaha nyirabyo amafaranga kugira ngo na we ajye kuyakoresha izindi gahunda ze.

Inzu zubatse neza ahantu mu ishyamba ririmo ibiti bikuru biteye neza, bifite amashami imbere yaho hari indabyo hari na jaride irimo utwatsi dutoya dukase neza, hateyemo ikinusu hagati gikuru gifitemo igiti kirekire kiriho ibibabi byumye.

Jaride itaranoga neza ihinzemo amoko y'indabyo atandukanye kubera ko zikunze gukundwa n'abantu benshi kubera zigaragaza ubwiza bw'ahantu, ndetse zigatanga umwuka mwiza wo guhumeka, ndetse zigatuma n'abantu bagira amahumbezi mu gihe cy'izuba ryinshi.

Mu isoko ahakorerwa ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibiribwa n'ibindi, hakaba hari umunzani n'abacuruzi baje kugurisha ibitunguru ku bwinshi, kandi ibyo bitunguru bikaba byifashishwa mu kuribwa ndetse no mu gukora ibindi bitandukanye.

Inkoko iriho pavuro ndetse hakaba hari n'imifuka iteretseho iyo nkoko, izo pavuro zimwe ni ntoya izindi nini, bigaragara ko ari umuntu uzicuruje.

Igiti kinini giteye gikuze neza, gifite amashami kizengurutswe n'ibindi biti ndetse n'ibihuru byifashishwa mu gukurura imvura kandi bigatanga n'umwuka mwiza wo guhumeka, kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza buboneye.

Imineke ihiye neza y'ubwoko butandukanye iri mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bigiye binyuranye, harimo n'ibitunguru, n'amavoka kandi hakaba harimo n'imbuto nk'ibinyomoro, kugira ngo ababigura n'ababigurisha bose babashe kugira icyo bageraho.

Umurima uhinze mu buryo bw'amaterasi ndetse ukaba uhinzemo ingemwe zitandukanye z'ibimera byinshi bihinze ku murongo, bigaragara neza, harimo karoti ndetse n'intunguru.

Umwana w'umukobwa urimo atera imboga z'amashu azigemeka kugira ngo zibashe gukura nawe abashe kwiteza imbere abone n'ibyokurya atagiye gusabiriza, ahubwo yigire nk'umwana w'umujyambere uri kuzamuka, yige gutera imbere akora.

Isoko ririmo inyanya zitukuye nini kandi zazanywe kugurishwa, kugira ngo uzigurisha abone amafaranga kandi n'abaguzi na bo babone icyo bahaha bajye kurya bagaburire n'imiryango yabo.

Umugore wiyemeje gufumbira ingemwe z'imyembe aho yakoze igifumbiro kinini ahantu hanini, akaba arimo azigemurura mu gihoho zirimo kugira ngo zikure neza zibashe kujyanwa aho zagenewe guterwa.

Ibicuruzwa by'amoko atandukanye ari mu bikoresho bigiye binyuranye ibase hakaba harimo ibitunguru, ibindi puwavoro, imiteja biri mu isoko aho bitegereje abaguzi ngo baze kubihaha bajye kubyifashisha mu gutunga imibiri babirya.

Urusenda rwinshi higanjemo urutukuye rwose n'urudatukuye rwose, kandi rukaba rugeze igihe cyo kugurishwa kugira ngo rutange amafaranga kandi abashe gukoreshwa ibindi bintu byinshi bitandukanye byagirira umuntu akamaro, kandi byamufasha kwiteza imbere.

Imbuto z'amatunda yerera ku giti hejuru, yahinzwe n'umugore wagiye kuyakorera, akaba ahagaze, afashe rimwe arimo arigaragira kugira ngo rikure neza n'ayeze abashe gutanga umusaruro.

Isoko ritoya ahakorerwa ubucuruzi bw'ibintu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba hari ibase irimo intoryi na tungurusumu kandi iteretse ku mufuka urimo ibindi bigiye bitandukanye byazanwe kugurishwa.

Karoti nyinshi zirambitse kuri shitingi, bigaragara ko bazisaruye zikajyanwa mu isoko, hagati muri zo harambitsemo ibase nini cyane iri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yubatse neza ifite urupangu rugiye rurimo inkingi zimeneye beto ziteye n'irange, inyuma yayo hakaba hari jaride irimo indabyo ngufiya zimeze neza zidahuje amabara kandi zikaba zitarimo ibyatsi kuko zabagawe.

Isoko aho abantu bahurira kugira ngo babashe guhaha, abandi bacuruze ryajemo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo n'umunzani wo gupimura ibicuruzwa, hakaba harimo imineke, amatunda, intoryi, ibitunguru n'ibindi bitandukanye nk'ibihaza.

Karoti zeze, zigasarurwa zikaba ziri mu ibase zenda kuzura cyane, iruhande rwazo hari indi irimo intoryi n'ibitunguru biri mu isoko bitegereje abahashyi ngo baze kubigura, bajye kubirya noneho uwaje kubicuruza na we abone amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa byamugirira akamaro.

Abagabo babiri bishyize hamwe mu gikorwa cy'ubuhinzi aho bagiye gusura imbuto zabo bahinze ahantu h'ikibaya, bakaba barimo bazivomerera bakoresheje umupira w'amazi, kugirango zibashe gukura neza.

Ubuhinzi bw'ibigori bihinze ku buso bunini ahantu h'igishanga ariko bikaba birimo bivomererwa hifashishijwe amazi yo mu itiyo rifashwe n'abagabo batatu, barimanitse mu kirere kugira ngo ritica imyaka kandi babashe kuyivomerera neza.

Umugore wahinze amashu k’ubuso bunini mu murima ahantu h'igishanga, akaba yaje kuyavomera afite itiyo irimo amazi ayifashe aho amazi asohokera kugira ngo agende avamo neza.

Umukobwa w'umuhinzi wambaye ikanzu uteze igitambaro cy'umukara ku mutwe, wahinze imbuto mu kibaya ahantu hanini zikaba zisasiye, akaba arimo azivomerera akoresheje umupira uri kuzana amazi kugira ngo zikure neza.

Abagabo batatu bishyize hamwe bari mu gishanga aho bahinze imbuto n'imboga zitandukanye bakaba barimo bavomera bakoresheje itiyo y'amazi kugirango imyaka yabo itazuma kubera kubura amazi.

Umugabo wahinze imboga ahantu mu gishanga ku buso bunini zikikijwe n'ibiti hakurya ku mpande yazo, akaba yaje kuzivomera afite itiyo irimwo amazi, yambaye n'amataratara kugira ngo yirinde imirasire y'izuba.

Umugore w'umuhinzi wahinze imyaka n'imbuto n'amatunda, wazindutse afata amazi akajya kuvomerera ibihingwa bye kugira ngo bibashe gukura neza, akaba yunamye mu mugezi aho amazi arimo azamuka.

Ku musozi haragaragaraho umuhanda ndetse haruguru yawo hari ibimera bihateye ndetse biteye ku murongo. Biragaragara ko ari imyaka iteye ubwuzu.

Ikibaya gihinzemo umuceri ku buso bunini kandi gikikijwe n'ibiti hakurya no hakuno n'imisozi migufiya, ikaba ugeze mu gihe cyo kuba wabagarwa kandi ukayangika kugira ngo were utange umusaruro ku bawurya ndetse n'abawucuruza.

Ku musozi mugari hateyeho ibiti bitandukanye ndetse hakaba hatuyeho n'abantu, haragaragara n'aho bahinga, ubona ko ari ahantu mu cyaro hakwiye ubuhinzi.

Inzu zubatse ahantu ku musozi hakaba hateye n'ibiti by'amoko atandukanye, hakurya ya zo hakaba hari inturusu nkuru zigeze mu gihe cyo kuba zasarurwa, zikubakishwa kandi zifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ikibaya cy'umuceri weze kikaba gifite ibyuma biri hejuru yacyo bishinzwe kurinda inyoni, kandi hakurya yawo hakaba hari ibiti birebire n'ibindi birumbaraje bigaye, kandi hakaba nta muntu urimo awurinda inyoni.

Ibiti by'amoko atandukanye byakuriye hamwe, bikaba harimo iby'ikawa n'ibindi by'avoka n'ibindi by'igereveriya, byifashishwa mu gufata ubutaka kugira ngo budatorwa n'amazi bityo bigatera isuri.

Ahantu h'ikibaya hahinzemo ibihingwa bitandukanye iruhande rwaho hakaba hari umuhanda w'igitaka ugiye urunzeho imicanga hagana ku ruhande kandi hari n'utwatsi dukeya turimo dukura.

Ku gasozi hari ibiti byinshi biteye kuri uwo musozi ndetse bacukuyeho n'umuringoti, tuzi ko imiringoti ari umugende ufata amazi kugira ngo adakomeza gutwara ubutaka.

Ikibaya gihinzemo umuceri ku buso bunini, iruhande rwacyo ahagana hakurya hakaba hari inzu zubatse neza, zisakaje amabati, hari n'ibiti bihateye byifashishwa mu gukurura imvura no gutanga umwuka wo guhumeka.

Amazu menshi yubatse hamwe ku buryo bugiye bwegeranye kandi imbere yayo hakaba hari imyaka ihinze igeze mu gihe cyo kwera, akaba agiye asakaje amabati, andi amatebura, bigaragara ko ari ahantu h'icyaro.

Ikibaya kinini kirimo amashitingi menshi atwikiriye ibintu bihateretse ndetse hakaba hari n'umusozi iruhande rw'iki kibaya uteyeho ibiti byinshi bitandukanye harimo n'insina z'ibitoki.

Umuhanda w'igitaka utambika, hejuru y'inzu zubatse ku murongo bigaragara ko ari ku mudugudu, haruguru y'umuhanda hateye ibiti ndetse no mu gihuru hari ibindi bimera bitandukanye, hakurya mu misozi hari amashyamba ndetse hari n'igishanga.

Inka iri mu kiraro y'umweru, ifite ibara ry'umukara ku mutwe no ku mugongo, irimo irisha ubwatsi yahawe n'umushumba, kugira ngo ikure neza ibashe gutanga umukamo, kandi izaveho n'amafaranga.

Ibibwana bitatu by'ingurube, bibiri bingana, ikindi gitoya, biri mu kiraro bisa nk'ibireba hejuru bishinze amatwi, kandi bikaba ari iby'inzungu. Ku ruhande rwabyo hari akariro babishyiriramo ibyo kurya, kugira ngo bizitunge.

Ubworozi bw'inka aho hari ikiraro cyubakishije ibiti kandi cyugarije ibiti noneho hakaba harimo inka ebyiri zirimo zirya ubwatsi bw'urubingo bazizaniye kugira ngo zibashe gukura neza zitange umukamo ndetse zitange n'umusaruro.

Inkoko zororewe ahantu mu kiraro ukwazo zikaba zaraterewe ibiti hejuru, byo guhagararaho igihe zitashye, zikaba zihagaze zirimo zirya ibiryo bazishyiriye mu kariro kazo, kugira ngo zibashe gukura zitange umusaruro.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho hari umugore uri iwe, ufite ihene ebyiri ziziritse ku nkomangizo yazishingiye hanze, zisasiye ibyatsi by'ibishyimbo, akaba yunamye, iruhande rwe yarahahinze insina z'inyamunyo zitanga ibitoki bikunze no gukoreshwa mu birori.

Umugabo woroye inkoko uhagaze arimo aziha ibiryo zirimo zitora, inkoko zigeze ku mubare gatanu, iruhande rwe hari imifuka irimo ibiryo byazo yaziguriye kugira ngo zibashe gukura neza zitange umusaruro nk'amagi n'inyama n'ibindi.

Aborozi b'amatungo magufi n'amaremare, bakaba barimo bagaburira amatungo yabo, harimo inka n'ihene iri mu kiraro, ihene zikaba ziziritse hanze, ibiziriko biri mu ijosi kandi umwana akaba afite ubwatsi agaburira inka anarangaye, abandi na bo bafashe ihene bagiye kujya kuzizirika.

Inka y'umukara nini iryamye hasi mu kiraro cyayo gishashe neza kandi ikaba iri yonyine nta kiziriko kiyirimo, akaba itanga umusaruro n'ifumbire wifashishwa mu guhinga imyaka.

Inka ebyiri ziri mu kiraro aho zororewe na nyirazo, zikaba zirimo zirya ubwatsi zahawe, izindi zihagaze, imwe ifiti iherena ku gutwi, akaba ari inka zimeze neza kandi zitanga umusaruro.

Urugo rworoye amatungo maremare rukaba rufite inka iziritse ikiziriko mu ijosi gipfunditse ku giti, ifite ibara ry'umukara n'iry'umweru kandi ikaba irimo irya ubwatsi bayihaye kugira ngo ibashe gukura no gutoha, ibashe no gutanga umusaruro.

Abana batatu bahagaze hamwe, imbere yabo hari intama zizwi nk'amatungo magufi, zitanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga n'inyama, zigazateza abantu imbere binyuze mu bworozi ndetse no mu kwita ku matungo magufiya.

Ingurube nkuru iri kumwe n'ibibwana byayo, n'izindi ziri mu kigero kimwe na yo zihagaze, izindi ziryamye, ariko zidafite ibiryo, imwe niyo iri kurya, izindi zose zibereye aho nta kintu zifite imbere yazo ni zonyine.

Ingurube ihagaze, y'umweru ya kizungu imeze nk'ibwegetse, irimo irya ibiryo bayihaye kugira ngo ibashe gukura neza izatange umusaruro n'amafaranga, uwayoroye na we abashe kwiteza imbere no kugura izindi nyinshi.

Ikiraro cyubakishije ibiti kiriho imbariro, harimo inyana ikiri ntoya ndetse iruhande rwacyo haragaragara ibiti ndetse harimo n'icyarire.

Ingurube nini ya kizungu iryamye mu kiraro cyayo cyubakishije ibiti kandi biparatashije imbariro nazo z'ibiti, ikaba iryamye ku isaso bayisasiye kugira ngo ibashe kuruhuka neza kandi ikure izatange umusaruro.

Inka nini nkuru y'imbyeyi ifite ibara ry'umweru n'ay'umukara n'irindi mu mpanga, ikaba ifite amahembe matoya irimo ireba inyuma yayo, iziritse ku giti mu kiraro imbere aho iba, kandi ikaba isasiye neza cyane ibyo bita icyarire.

Amatungo magufi, yororerwa mu rugo, ahari ingurube n'ihene ebyiri ziziritse ku nkingi kandi zikaba zihagaze mu buryo butandukanye ahubakishije urugo rusokesheje imiyenzi, hashinze ibiti, ruparatashije ibindi by'imbaho kandi ingurube ikaba irimo irisha amakoma ayirambitse imbere yayo.

Isake nini yorowe neza ifite ikirokoroko kinini ihagaze ifite n'umurizo kandi ikaba imeze nkaho ishaka kuguruka cyangwa hari ikiyikanze kuko irimo ireba hejuru kandi itunaguzwa.

Ikiraro cyubatse neza gikoresheje ibiti bimwe bishinze ibindi biteyeho bitambitse harimo n'imbabari, kikaba kirimo ikibwana cy'ingurube gihagaze kireba iruhande rwacyo gishinze amatwi, harimo n'ubwatsi bagihaye kugira ngo kize kuburya.

Ingurube yabwaguye iri kumwe n'ibibwana byayo bibiri zose hamwe zikaba eshatu, zihagaze zirimo zirya ibiryo zahawe na nyirazo yazishyiriye mu bijerekani no mu bindi bikoresho kugira ngo zere kubibirira hasi zibisandaguza, ahubwo zibirye neza zibashe gukura no guhaga.

Inka y'umukara nini iri mu kiraro, aho yororerwa kugirango ibashe kubaho neza itange umusaruro, harimo nk'amafaranga, inyama n'ibindi bituruka ku matungo, n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi kugira ngo abantu babashe guhinga no kweza, babashe no kurya no kwiteza imbere.

Inka nini iri mu kiraro ifite amabara y'umukara n'ay'umweru ifite iherena ku gutwi kandi ifite ubwatsi mu kariro irimo iburisha ubwinshi ibufashe mu kanwa, iri mu kiraro cyubatse neza mu rugo rwa nyirayo uwayiguze.

Urugo rufite insina iruhande rwarwo, hakaba hari n'umugabo wambaye imipira n'ipantaro, uragiye ihene irimo irisha imbere ye ubwatsi yayihaye kugira ngo ibone uburyo ibyara kuko igeze igihe cyo kubyara.

Inka nziza, nini ibyibushye, iri mu rupango, ifite ibara ry'umukara, yubakiye, ikaba iziritse, imbere yayo naho haziritse ihene y'umukara iryamye, ifite ibara ry'umweru mu ruhanga, hari n'umufuka w'ubwatsi uteretse ariko batabuhaye inka ngo ibe iburyaho.

Ihene y'umweru, nziza, ibyibushye, ishishe, ihagaze, ifite ikiziriko mu ijosi, izirikiye ku giti kandi nyirayo adahari, itegereje isoko kugira ngo bajye kuyigurisha bayikuremo amafaranga.

Mu gihuru kirimo ibyatsi bitoya bidakuze cyane, kandi hakaba haragiwemo inka nkuru y'imbyeyi ifite ibara ry'umukara n'iry'umweru n'iherena ku gutwi, ikaba irimo kurisha kugira ngo ibashe guhaga ubundi itange umusaruro.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe, ndetse harimo n'umushumba, akaba arimo kuzikama, bigaragara ko ariho zororerwa.

Ikibwana cy'ingurube gihagaze cyonyine kiri kureba imbere yacyo cy'umukara, kiri mu kigero cyo gucuka, kandi inyuma yacyo hari igisafuriya kihererwamo ibyo kurya kugira ngo kibashe gukura neza, kibyibuhe, kizatange umusaruro kivemo n'amafaranga ahagije.

Inka nini ,nziza, zishishe, zorowe, ziri mu biraro, imbere yazo hari ubwatsi zigomba kurisha kugira ngo ziticwa n'inzara kandi hirya yazo haziritse ihene ebyiri z'umukara na zo zirimo, zitegereje kujyanwa mu gihuru kugira ngo zirishe.

Inka nini nkuru y'imbyeyi yubakiye neza, ikiraro cyubakishije ibiti n'akariro gakoze neza gakoreshejwe imbabari, karimo ubwatsi bw'urubingo, irimo iburisha ihagaze ireba n'imbere yayo.

Ihene nkuru yabyaye ifite ibara ry'umweru mu nda, iziritse ku giti ikiziriko kiyiri mu ijosi, imbere yayo haryamye abana bayo kandi iruhande rwayo hari ibiyogori byavanyweho ibigori birambitse hari n'ibindi bihagaze bitarasarurwa.

Mu kiraro kinini harimo ingurube yakuze cyane, ndetse ikaba ifite n'utwana twinshi, bigaragara ko nayo itanga umusaruro kuko izo ngurube zirasa neza cyane.

Inka y'imbyeyi ikase amahembe ifite iherena ku gutwi, ikaba ifite ibara ry'umukara iri mu kiraro cyubakishije ibiti gisakaje ibyatsi, ikaba irimo kurisha ubwatsi yahawe n'umushumba ushinzwe kuyiragira kugira ngo ibashe gukura neza.

Inka yorowe neza iri mu kiraro cyubakishije ibiti imbere yacyo hakaba hari akariro gakozwe n'imbaho n'ibindi biti bikeya, ikaba ihagaze iri kurya ubwatsi yahawe n'umwana w'umukobwa uyihagaze imbere, inyuma ye harambitse ibiti nk'iby'imihembezo.

Ihene iri mu gihuru aho bayiziritse kugira ngo irishe ibashe gukura no gutanga umusaruro, ikaba irimo ikiziriko mu ijosi gipfunditse ku giti ariko ikaba itari kurisha ahubwo ihagaze, ifite ibara ry'umweru mu mugongo no mu gatuza no ku nda.

Isoko ry'amatungo aho hazanywe ibibwana by'ingurube n'izindi nkuru, abaturage bakaba baje kuzigurisha kugira ngo bazikuremo amafaranga yo gukoresha ibindi bikorwa bitandukanye bya buri munsi.

Ikiraro cyubatse neza, cyubakishije ibiti, kikaba gifite imbariro mu mpande, imbere hubatse akariro gakoresheje imbaho n'imbabari, kandi karimo ubwatsi, kikaba kiryamyemo inka ifite ibara ry'umukara, itari kurisha ubwatsi yahawe.

Ikiraro cyubatse cyubakishije ibiti gikingishije inzugi z'ibiti ziriho amapata gisakaje amabati kikaba cyororerwamo inka n'andi matungo magufi kugira ngo abashe kuba ahantu heza hatanga umusaruro.

Isoko ry'ingurube ryiganjemo ibibwana, hari n'imodoka iparitse inyuma y'abari kuzicuruza barimo bazihererekanya, aho baba baje kugira ngo buri umwe abone amafaranga ajye kwifashisha mu gukemura ibikorwa bye, bakaba bahari ari abantu batandukanye, abagabo, abagore n'abana, bose bicaye ku buryo bw'uruziga.

Umugore ufite ihene ebyiri mu ntoki uri kuzikurura na zo zikagenda zishaka kurya ibyatsi biri imbere yazo, aho bari hari inyubako bigaragara ko ikiri inyuma mu iterambere.

Ingurube nini y'inzungu, iryamye mu kiraro cyayo, igaramye, amabwene yayashyize hejuru kubera ko ibibwana yabwaguye birimo kuyonka kugira ngo bibashe gukura neza kandi bizatange umusaruro.

Inkoko y'umweru, nini irimo igenda itora, imbere hari inzu yubatse, ikaba itegerejweho kuzatanga umusaruro nk'amagi n'inyama n'amafaranga muri rusange ashobora kwifashishwa mu gukemura ibindi bibazo bitandukanye.

Inka zasohowe mu biraro aho zazanywe ahantu hamwe kugira ngo zitabweho bazikingire indwara zigiye zitandukanye, zimwe zikaba zifashwe n'abagore, izindi zifashwe n'abagabo zihagaze, izindi ziri kuririsha.

Ikibwana cy'ingurube kiri mu kiraro aho kigaburirwa kugira ngo cyitabweho, gikure neza cy'inzungu, gifite ibara ry'umweru, gihagaze kireba imbere yacyo, iruhande rwayo hakaba hari ikibehe bagishyiriramo ibiryo kubera ko zitajya zirira hasi.

Inkoko y'isake ihagaze iri kureba hejuru mu kirere, ariko irimo inagenda iri kumwe n'inkoko kazi nayo imeze ityo, zimeze nkaho zumvise igisiga gishaka kuza kuzirwanya, na zo zirimo z'icyitegura.

Ikimasa kinini gifite ibara ry'umweru n'irindi ritari umweru mu mutwe, ndetse kikaba kiri mu kiraro aho gisasiwe ubwatsi bumeze neza, buzwi nk'icyarire, kikaba gitanga umusaruro uturutse ku ifumbire yifashishwa mu guhinga imyaka itandukanye.

Inka iziritse irimo ikamba y'umweru, ihambiriye ku giti iruhande rw'iburyo, ikaba ifite amabara y'umukara n'ay'umweru n'iherena ku gutwi, ikaba ihagaze yonyine iri kureba imbere yayo, itarimo kurisha, kandi ahantu ihagaze harimo ibyatsi bikeya.

Inka nini ifite ibara ry'umukara n'iry'umweru ikaba ifiti iherenna ku gutwi iri mu kiraro cyayo cyubakishije ibiti, gisakaje amabati, ikaba yitaweho neza ifite ubwatsi imbere yayo mu kariro kugira ngo iburye ibashe gukura neza kandi itange umusaruro w'amata ndetse n'inyama n'ibindi.

Inka ifite inyana yayo, biri mu kiraro ndetse inka nini yo irahagaze, naho inyana yayo iraryamye, hari ibibabi bayisasiye, bigaragara ko ari byo bayihaye kugira ngo ibihagarareho, bayirinde guhagarara hasi.

Umurima munini uri ahantu h'ikibaya, hakurya yawo hari amazu abamo abaturage n'ibiti bigiye bitandukanye bishinzwe kurwanya isuri, kandi ukaba uhinzemo ibigori ariko byasaruwe, hakaba hahagazemo ibiyogori byumye bizajyanwa gukoreshwa nk'ifumbire.

Umurima wubatsemo igifumbiro aho abagore n'abagabo barimo bafumbira imbuto zo gutera, ariko barimo bashyira ibitaka mu mashashi azashyirwamo izo ngemwe kugira ngo zizabashe gukura neza zijyanwe guterwa ahandi.

Mu buhumbikiro bw'imbuto, haragaragaramo ibihoho byinshi cyane, bigaragara ko bihumbitse gereveriya, ni ibiti bikunze kuvangwa n'imyaka mu gufata ubutaka.

Ku murima haragaragaramo amateke ndetse n'ibindi bimera bitandukanye ndetse hakaba hari n'umugende urimo amazi atemba, ayo mazi akagira akamaro cyane ku bimera.

Ubuhinzi bw'urusenda ruhinze ku buso bunini bukuze neza, rurimo umuntu arimo arukorera arugaragira, kugira ngo rubashe gukura rwere neza, rutange umusaruro harimo n'amafaranga kandi n'abarurya babone urwo kurya.

Imbuto z'amatunda zikunda gukundwa n'abantu benshi, higanjemo abana kubera ko bakunda kuzigurirwa, kugira ngo zibafashe mu mikurire yabo, cyane ko baba batarashobora no kurya ibiryo bisanzwe byo mu nkono, ahubwo zikabafasha zibisimbura kandi n'abantu bishoboye bakunda kuzirya nyuma yuko bariye ibiryo, mu buryo bwo kugira ubuzima bwiza.

Igihingwa gihinze neza gikuru cyafumbiwe kandi cyeze kiriho ibitumbwe kizwi nka puwavuro yifashishwa mu gutekwa, kandi ikaba ikunda kurunga ibiryo, ikunze gukoreshwa cyane mu bihe by'ibirori kubera ko ari urubuto rwiza.

Ahantu harunze ibishishwa biva ku myumbati, biragaragara ko batonoye imyumbati hanyuma ibishishwa bakabirunda ahantu hamwe ndetse biranagaragara ko bimaze igihe kinini.

Aborozi batandukanye bakusanyirije inka ahantu hamwe, bigaragara ko ari umuveterineri uri kuzitaho ndetse akaba arimo kuzitera inshinge ahantu mu gisambu bateguye.

Inka ifite uburwayi bw’icebe, iri kuvurwa n'umugabo ufite umukasi ndetse akaba afite n'urwembe, ari gukata ibigaragaza ko ari kuyivura ifite ikibazo.

Inka ebyiri zahuwe zijyanywe kuragirwa, inyuma yazo hari umushumba wambaye kavunja z'umweru n'isarubeti, akaba arimo areba inyuma, bageze ahantu imbere yabo hari ibiti bitatu biteye ku murongo, bishinzwe kurwanya isuri no gufata amazi kugira ngo ubutaka bwe gutirimuka.

Amatungo yazanywe ahantu hamwe kugira ngo yitabweho, aho inka yafashwe n'abagabo n'abasore, bakayirambika hasi kugira ngo bayitere urushinge, bayivure indwara zitandukanye, banirinde ko ishobora kugira ibibazo byayica.

Ikibwana cy'ingurube gifashwe n'abagabo babiri umwe agiye kuyambika iherena ku gutwi, undi ayifashe kugira ngo itabacika ikirukanka kugira ngo ibashe gukura neza kandi ibasha no kugira nimero, bajye babona uburyo bayivuza, banayikingize.

Inka iziritse ku giti cy'umwembe, hari umubyeyi uri kuyishyiramo ikiziriko mu ijosi, iyo nka iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bigaragara ko ari inka y'imbyeyi.

Inka nini y'igitare y'imbyeyi yunamye mu byatsi iri kuririsha barimo bayikorera isuku umugabo wambaye bote uhagaze wambaye n'ingofero, imbere ye hari nyina wunamye aho inka nayo yashyize umunwa arimo ayiha amazi.

Ikiraro cyubatse neza gisakaje amabati kikaba cyubakishije ibiti, imbere yacyo hari inka yakuwemo ifite amabara y'umweru n'ay'umukara, nyirayo yayifashe amatwi ndetse yatumiye umuganga w'amatungo arimo ayitera urushinge kugira ngo bayivure uburwayi ifite.

Umworozi wambaye isengeri na bote n'ikabutura, ari kumwe n'inka ye nini ifite amabara y'umukara n'iry'umweru, nayo ihagaze, akaba yayisohoye iri inyuma y'ikiraro, arimo ayitaho anayihanagura akoresheje inkuyo kugira ngo ibashe gukura neza.

Abagabo batatu bafashe inka bigaragara ko ifite ikibazo ndetse hakaba hari n'umuntu wabyigiye waje kuyivura. Abaveterineri ni bamwe mu bantu b'ingenzi bakenerwa kugira ngo ubworozi butere imbere.

Umugabo wambaye bote z'umukara n'ishati n'ipantaro n'ingofero afite inka mu ntoki, arimo ayitera urushinge, ifashwe na mugenzi we imbere ku kizuru kugira ngo idasimbuka ikabarwanya.

Abagabo babiri umwe wambaye isarubeti ndetse undi yambaye inkweto z'umuhondo, bafashe inyana bari kuyiha umuti, iruhande rw'ikiraro gisakaje ibati, bigaragara ko ifite ikibazo.

Abavuzi b'amatungo, abakobwa n'abasore, abasore bambaye ibisarubeti by'ubururu naho abakobwa bambaye amataburiya y'umweru, bafashe ihene bari kuyisuzuma bose bayihuriyeho.

Umugabo woroye intama nyinshi, akaba yahamagaye umuganga ushinzwe kuvura amatungo ngo aze kumuvurira imwe muri zo yagize ikibazo, akaba arimo ayitera urushinge kugira ngo ibashe gukira na yo idapfa ahubwo ikomeze ibeho itange umusaruro.

Abanyeshuri bateraniye mu cyumba kimwe, bafashe intama bayishyira imbere yabo, biragaragara ko bari kuyigiraho ndetse muri iyo nyubako barimo hari ibishushanyo bigaragaza ibice by'umubiri w'umuntu.

Umuganga w'amatungo wagiye kuvura inka iri mu kiraro baziritse kugira ngo itabarwanya ari abagabo babiri, akaba ari kuyitera urushinge, kugira ngo arebe ko yakira igakomeza kubaho kandi igakomeza gutanga umusaruro nk'uko byari bimeze.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu ndetse akaba afite agapira karimo amabara y'umukara n'umweru, afite umuti w'umushongi ndetse yasamuye inka ari kuyiha uwo muti, yambaye bote kugira ngo igihe yaba imukandagiye atagiramo ikibazo.

Igiti cy'umugano gikuru, kigonze kiri kurirwa n'inkende; inyamaswa imeze nk'abantu, ifite intoki eshanu n'amano atanu, ikaba igira umurizo, ifite n'ibara ry'umukara ku mpanga ndetse n'inyuma ku mugongo.

Imbwa iryamye hasi mutwatsi inyuma y'igipangu, aho isanzwe iba, ikaba imenyereweho guhiga no gucunga umutekano wa nyirayo, kugira ngo hatagira umuntu uza kwiba cyangwa se akaba yateza umutekano mukeya mu rugo.

Inyoni yo mu gihuru, ifite ibara ry'umukara ku ibaba, ikaba ifite n'irindi ry'umutuku mu gatuza, ifite umunwa muremure n'ijisho ry'umukara, ihagaze ku kibabi irimo ireba imbere yayo, ifite n'amaguru y'umukara yenda kuba maremare wagira ngo ishaka kuguruka.

Inzoka yizinze irimo igenda ahantu ku butaka mu mukungugu, akaba ari igisimba gikunda gutinywa n'abantu kubera kigira ubumara, uwo kiriye bimugora kugira ngo akire kandi iyo adahise avurwa ashobora no gupfa ku buryo bwihuse.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo inkende nyinshi zitandukanye, zimwe ziri mu muhanda hagati bigaragara ko iruhande rw'uwo muhanda hari pariki y'inyamaswa ndetse ubona ko zidashobora kuva mu muhanda zimwe zicayemo.

Inkende ihagaze yazamuye akaboko akandi kari hasi, iri kumwe n'umugabo bateye akaguru imbere arimo ayikinisha na yo hasi yayo hari umufuka urimo ibiribwa by'amatungo.

Ikiraro cyo mu kirere cyubatse neza, kiriho umugabo n'umugore bashoreranye, bari kugenda bafata ku mpande, kiri hejuru y'ishyamba ririmo ibiti binini, bikuru byiyifashishwa mu bikorwa bitandukanye nko kubaka, kubaza, bakaba babikoramo imbaho cyangwa se bikavamo inkwi n'amakara, byifashishwa mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi by'abantu.

Inzoka irimo igenda ku giti yazamuye umutwe, yakanuye amaso, ibumbye umunwa igiye irimo amabara atandukanye, imenyereweho gutinywa cyane n'abantu kubera ko igira ubumara, uwo iriye atamara akanya kanini atarapfa iyo adahise abona umuntu umugombora.

Igikeri cyitwa umutubu, gifite amaso manini n'amaguru ane, gihagaze ahantu, kimeze nk'ikigiye gusimbuka, gifite amabondo, cyahaze cyane, kikaba kiri ku kibabi gifite amashami, hagati yacyo harimo uruti runini.

Inkende ivuye gushaka icyo irya igifashe mu ntoki isutamye, akaba ari akanyamaswa kajya kumera nk'abantu kagira intoki eshanu n'amaguru atanu ariko kakaba gakunda kwibera mu biti kandi kakaba kanakunda kurya ibyo kishakiye.

Imbwa iryamye yahinnye amaguru y'inyuma yarambuye amaboko ikaba imenyereweho kurinda umutekano, irwanya abajura kandi zikaba zikunze kororwa cyane n'abakire kugira ngo bicungire umutekano bagabanye n'akavuyo mu ngo zabo.

Ku musozi hicayeho intare, mu busanzwe tuzi ko intare ari umwami w'ishyamba, ifite ibyoya binini, ikagira umunwa muremure, ndetse n'amaso manini, yicaye hejuru y'ibyatsi

Akanyoni kari ku giti gafashe ku ishami, gahagaze karimo kareba imbere yako, kazi kuguruka gafite amababa n'ibara ry'umutuku mu gatuza, n'umunwa muremure, inyuma yaho hari ibyatsi n'ibindi biti birebire bifite amababi y'icyatsi kibisi.